Ikoraniro ry'abantu benshi barimo abadamu ndetse n'abagabo, biganjemo abakuze, bicaye ku ntebe z'umweru bakaba bari kureba imbere yabo, hari mudasobwa iteretse ku meza hariho igitambaro cy'ubururu bwererutse.

Icyumba kiberamo inama kiragaragaramo abagabo ndetse n'abagore, ku meza atukura bicaye ku ntebe z'umukara, hagiye hari indangururamajwi imbere yabo, abenshi bari kureba uri gutanga imbwirwaruhame.

Ikoraniro ry'abantu benshi bahagaze mu buryo bw'umuzenguruko, mu mbuga yisanzuye, ni ab'ingeri zose harimo abagore, abagabo, abasore ndetse n'inkumi, uhagaze hagati muri bo ari gutanga imbwirwaruhame.

Abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu bicaye mu nama, hari umugabo udafite umusatsi w'ubwanwa bwinshi w',umuzungu yambaye ishati y'umweru, iruhande rwe hari uwambaye impuzankano y'abapolisi.

Abantu bahagaze barimo abagore ndetse n'abagabo, hari umudamu wambaye ikanzu, ukikiye akana gato, iruhande rwe hari umugabo wambaye umupira w'icyatsi watebeje, munsi hari kubera inama abantu bicaye mu buryo bw'umuzenguruko.

Ni icyumba kiberamo inama, hagaragaramo abirabura ndetse n'abazungu. Abenshi muri bo barareba imbere yabo, bigaragara ko hari ibyo bahitegereza. Ku meza hagiye hari uducupa tw'amazi.

Icyumba kiberamo inama ni kinini kiragutse, hari intebe nyinshi ziri inyuma ziticayemo abantu. Izindi z'umukara, hari abarimo, ndetse ameza y'umutuku agiye ateretseho indangururamajwi, ibitabo na za terefone.

Ikoraniro ry'abantu benshi biganjemo abagabo ndetse n'abagore, hari abunamye bareba mu matelefone, uw'imbere afite indangururamajwi, akaba ari kubagezaho ijambo.

Ikoraniro ry'abantu benshi bagiye bicaye mu buryo bw'umuzenguruko, ku meza hariho ibitambaro by'icyatsi, bari ku ntebe z'imikara harimo abakobwa ndetse n'abasore, hari yewe n'umuzungukazi.

Ni ikoraniro ry'abantu benshi biganjemo abakuze ndetse n'abakiri bato, bambaye imyenda yiyubashye harimo abagore ndetse n'abagabo ku tumeza hagiye hateretse amazi ndetse n'uducupa tw'imitobe.

Ikoraniro ry'abantu benshi bakaba biganjemo ab'igitsina gore. Hari umudamu wicaye imbere wambaye ikanzu y'umukara afite telefone mu ntoki yageretse akaguru ku kandi, iruhande rwe hari uwambaye umupira w'ubururu.

Icyumba kiberamo inama abantu bicaye mu buryo bw'umuzenguruko ku ntebe z'umukara ameza y'umutuku, buri wese imbere ye hari indangururamajwi ndetse inyuma ku bikuta hakaba hasa ubururu.

Ni ikoraniro ry'abantu benshi bigaragara ko bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imikara, ku meza hari amatelefone, amakayi n'amakaramu ndetse hagiye hari n'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Ikoraniro ry'abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore, ab'imbere bafite ku meza, ibitabo, amatelefoni ,ndetse n'amazi yo kunywa, hari umwe wazamuye amadarubindi ayashyira ku gahanga.

Ni abantu bakoraniye ahabera imikino, biganjemo urubyiruko rugizwe n'inkumi n'abasore, bicaye kudusima dusize amarangi atukura na ho hari ibikuta by'umuhondo biri inyuma yabo.

Icyumba kinini kimeze nk'ikiberamo inama kiragaragaramo abasore n'inkumi b'urubyiruko. Hari umukobwa ufite ikaye ku meza n'ikaramu, uri kwandika imbere ye, hari icupa ry'amazi.

Abantu benshi bicaye barebana, bari mu cyumba gisa nk'ikiberamo inama, harimo abagore ndetse n'abagabo, abenshi bafite mudasobwa ku meza yabo, abandi bari kwifashisha telefone ngendanwa.

Ni ihuriro ry'abantu benshi, haragaragaramo abiganjemo abadamu, uyu arareba imbere yambaye amadarubindi, imbere ye hateretse mudasobwa, kuri buri meza hagiye hari amazi ari mu ducupa tw'ibirahuri.

Ni ikoraniro ry'abantu benshi bicaye ahameze nko mu ihema ry'umweru, harimo abamama ndetse n'abagabo, ku meza hari igitambaro kiri mu mabara y'ibendera ry'igihugu, giteretseho amacupa y'amazi yo kunywa.

Ni umugore cyangwa se umukobwa umeze neza, yambaye mo imbere ikanzu y'iroze, ndetse n'ikote rirengejeho ry'icyatsi, afite indangururamajwi mu ntoki, ari gutanga imbwirwaruhame.

Abantu bicaye bari kuganira bigaragara ko bari mu nama, ni abakora ibijyanye n'imikino, hakaba harimo abagore babiri ndetse n'abagabo, ku meza y'umuzenguruko hari uducupa tw'amazi.

Icyapa cyerekana serivisi zitangwa n'ikigo cyitwa buritamu. Turimo turabonamo ko buritamu ari ubwishingizi bwo kwivuza buhendutse, bwagenewe ibigo bitandukanye harimo ibigo bito, ibigo by'imari, sako n'amakoperative, ibigo bya leta, ibigo by'amashuri, ibigo by'abihayeyimana ndetse n'ubundi buryo butandukanye. Ushobora kuba udafite ubwishingizi, ushobora kwibaza uburyo wakwivuza ariko buritamo ni igisubizo cyawe, kugira ngo ube wakwivuza kandi nawe ku giti cyawe wabigeraho.

Ni ihuriro ry'abantu biyubashye bigaragara ko bari mu nama bicaye muburyo bw'umuzenguruko, harimo umudamu w'umuzungu wambaye amadarubindi ndetse n'agashati gatukura hari kandi n'undi wambaye ikoti ry'ubururu.

Abantu benshi batandukanye bamwe baricaye abandi barahagaze umwe muri bo afite ibendera rifite amabara atatu atandukanye, harimo ibara ry'ubururu, ibara ry'umuhondo, n'ibara ry'icyatsi kibisi.

Icyapa cyamamaza, kikaba kiri mu ishusho y'umweru, ndetse harimo imbonerahamwe y'ubururu. Kikaba kiriho ibyegeranyo by'ibipimo by'imiyoborere mu Rwanda gikorwa hagamijwe kugaragaza ishusho y'uko imiyoborere ihagaze.

Ni mu iduka ricuruza ibintu bitandukanye hari umugabo uhagaze wambaye ishati ndetse n'inkweto zifunguye, ari kubara amafaranga bigaragara ko agiye kwishyura ibyo yamaze guhitamo.

Icyapa cyamamaza cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, kiri mu ishusho y'ubururu, haragaragaramo umubare gatatu munini, aho bakubwira ngo hasigaye gusa iminsi itatu.

Ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda, kigaragaramo agaseke kari hagati, ishaka ku ruhande rumwe, impande ebyiri zirimo ingabo ndetse n'ipfundo riri hasi rigaragaza ubumwe bw'abanyarwanda.

Umudamu uri mu biro, akaba yiteguye kwakira abamugana abaha serivisi. Yicaye ku ntebe y'umukara yambaye umwenda w'umuhondo. Uruhande rumwe ruriho ibendera ry'igihugu urundi ikirangantego.

Urubuga rw'irembo, rukorerwaho ibintu bitandukanye, aho abantu barujyaho bakisabira serivisi zitangwa na Leta, bakazihabwa batarinze kuva aho bari, hari umusore ufite telefoni mu ntoki, wambaye agapira k'ubururu, uri kwerekana ko yamaze kubikora.

Icyapa cyamamaza cy'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Imisoro n'Amahoro. Cyiganjemo ubururu bwinshi, hirya gato haragaragara ibiti n'inyubako itari kugaragara neza. Baragira bati:"Umusoro ku mutungo utimukanwa umenyekanishwa, ukanishyurwa bitarenze tariki mirongo itatu n'imwe Ukuboza.

Umusore wambaye ipantaro y'umukara, agapira kamwegereye, isaha ku kaboko, ari kureba imbere ye. Ahagaze imbere y'inzu ikorerwamo ibijyanye na serivisi za banki, ziba zaregerejwe abaturage.

Ubwubatsi buri kubera mu gisambu cyisanzuye, aho bari gukora umunara cyangwa se ipoto, ubusanzwe ryifashishwa mu gusakaza amashanyarazi, abakozi bambaye ingofero zirinda impanuka, ndetse n'utwenda dusa.

Ni icyapa cyamamaza kiriho uduce twinshi, hari abantu bari ku murongo, iruhande hakaba imodoka nini itwara abagenzi, hepfo hari uwambaye amadarubindi n'agapfukamunwa, hakabaho n'akandi kapa kabuza abantu kuramukanya.

Abasore n'inkumi batandukanye, barahagaze hari uwambaye agapira k'umweru n'agapfukamunwa, ndetse ari kumwe n'umukobwa wambaye umukara hose, bose bafite mudasobwa mu biganza byabo.

Umunara munini wifashishwa mu bijyanye n'itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga harimo insinga n'ibyuma byabugenewe bishinzwe gukurura ibijyanye na murandasi, hejuru hagaragara igicu cyerurutse.

Umunara muremure uri mu mabara y'umutuku n'umweru, haragaragara igicu cyerurutse, ubusanzwe mene iyi ngiyi yifashishwa mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se ikoroshya itumanaho.

Ni icyapa cyamamaza cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro n'amahoro kiragaragaraho ibyuma by'ikoranabuhanga birimo telefoni ngendanwa n'akandi gato gasohora urupapuro rw'inyemezabwishyu.

Ni muri gare hari haparitse imodoka za kwasiteri zikoreshwa na ajanse ya sitela.

Icyapa cyamamaza ibijyanye n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, aho bakubwira ko ukwiye kumenyekanisha ibikorwa byawe, mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu ndetse harabura umunsi umwe kugira ngo ube wamaze kwishyura.

Ni mu byatsi bitoshye ariko hakaba hari aho byatangiye gushiraho imbere yabyo hari uruzitiro rurimo umunara muremure w'umutuku ndetse n'umweru wifashishwa mu buryo bw'itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga hakurya hagaragara imisozi.

Hagati mu ngo hateyemo ibyuma birebire bigize umunara usa umweru n'umutuku ubusanzwe ibi byifashishwa mu bijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa se bikoroshya itumanaho.

Uruzitiro rw'ibyuma bitoya no hagati hakaba harimo umunara muremure w'amashanyarazi, akaba ari uw'ubururu ndetse n'umweru, uyu wifashishwa mu bijyanye n'itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga.

Inzu y'ubucuruzi yubatswe ku buryo bujya kumera nk'umuzenguruko, igiye ifashwe n'inkingi, zifashe ibaraza ryaryo, imbere yazo hakaba hagiye hari abantu bari gutambuka.

Ni ahatangirwa serivisi z'urubuga rwitwa irembo, ubukangurambaga bwabo bwitwa byikorere, hari umusore wambaye agapira k'umweru n'ingofero y'ubururu n'undi mugabo wicaye.

Icyapa cyamamaza ibijyanye n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Imisoro n'Amahoro. Baragira bati: "Dore uko wamenyekanisha umusoro ku nyungu, wa bibiri na makumyabiri n'agatatu, ukoresheje telefone igendanwa".

Mu cyumba kikorerwamo ibijyanye n'itumanaho, hakaba hari za mudasobwa n'abantu baziriho. Hari umukobwa wifashe mu gahanga wambaye agapira k'umukara, bigaragara ko hari ibyo umugabo ari kumwereka muri mudasobwa.

Uruzitiro ruzengurutse rw'utwuma duto tumeze nk'ivu hagati harimo ingufu z'amashanyarazi zituruka ku munara muremure wumutuku n'umweru si ibyo gusa kuko unatanga ibijyanye n'ikoranabuhanga.

Ni icyapa cyo kwamamaza cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere, hari akabara k'umuhondo karimo ibendera ry'u Rwanda ndetse kiri mu ishusho y'umweru hagiye handitseho amagambo y'umukara, yewe hari n'intebe irimo hagati.

Mu muhanda haratose imvura irahise, hari imodoka ihagaze ndetse n'inzu ziri ku murongo z'ubucuruzi zubakishije amatafari ahiye ndetse n'inkingi zifashe ibaraza.

Icyumba kirimo ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, cyicayemo abakobwa n'abahungu bari mu buryo bw'umuzenguruko, buri wese ku meza afite mudasobwa, bigaragara ko umwe hari ibyo ari kubigisha.

Icyapa cyamamaza ibijyanye n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Kiri mu ibara ry'umweru, amagambo amwe yandikishije umukara, andi umuhondo. Hariho mudasobwa ifunguye, iteretse ahantu.

Ipoto ririho insinga zijyana amashanyarazi mu byerekezo bitandukanye, rikaba rishinze mu busitani bukikijwe n'urukuta rw'amabuye, n'urundi rw'umweru, rukaba ruriho n'igiti iruhande rwacyo.

Ahameze nk'icyanya kinini cy'icyicaro gikuru giturukaho amashanyarazi ajya hirya no hino mu gihugu. Hari ibyuma byabugenewe ndetse n'amapoto ashamikiyeho insinga.

Amapoto yo ku muhanda ariho amatara, hashamikiyeho insinga zijyana amashanyarazi mu byerekezo bitandukanye biri hafi aho ngaho, hari ibiti bibiri birimo kimwe cy'umukindo cyakuze cyane.

Ni umunara muremure uri mu ibara ritukura, ukaba ushamikiyeho insinga nyinshi, iki ni kimwe mu bituma amashanyarazi agenda asakara hirya no hino mu gihugu.

Umukingo uriho ibyatsi ndetse n'ibiti hariho ipoto ry'amashanyarazi rishamikiyeho insinga ndetse n'amatara amuririka umuhanda, iruhande hari agace gato k'agakuta kubakishije amatafari.

Hagati mu ngo zituyemo abantu, hateyemo ipoto ry'amashanyarazi, iriningiri ni ngombwa kuko izi nsinga zirishamikiyeho, nizo zigenda zegereza abaturage amashanyarazi kugira ngo babashe gucana.

Ni amapoto menshi y'amashanyarazi akaba agiye ariho amatara amurikira umuhanda, si ibyo gusa kuko hashamikiyeho insinga zijyana amashanyarazi mu ngo zitandukanye.

Amapoto ari ku murongo ajyana amashanyarazi hirya no hino mu bice bitandukanye, ubu ni uburyo bwifashishwa mu kugira ngo abaturage bari mu bice bya kure babashe gucanirwa.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti bicucitse, hafi yaryo hari ibiti by'amapoto hariho insinga zijyana amashanyarazi hirya no hino, ibi ni bimwe mu byorohereza abaturage gucanirwa kuko biri muri gahunda ya leta.

Umusore wicaye mu bitaka isura ye ntigaragara, yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara, hafi aho hari imifuka ipanze ndetse n'ibibanza bigaragara ko bigiye gutangira kubakwamo.

Ni umuhanda w'ibitaka iruhande rwawo hari ubwatsi budatoshye ndetse hirya gato hari amabuye yo kubakisha ari munsi y'ibiti, hari urupangu rurimo inzu nziza ifite igisenge cy'umukara.

Gahunda ya Leta y'u Rwanda ni uko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu, abaturage bose bazaba bamaze kugerwaho n'amashanyarazi, niyo mpamvu hagati mu mihanda uhasanga amapoto arimo insinga zigemura umuriro hirya no hino.

Hagati mu birabyo ndetse n'ibiti yaba ibitoya n'ibinini, hateyemo amapoto abiri ashinzwe gukwirakwiza amashanyarazi hirya no hino, hari ibyuma bigabanya cyangwa bikayongera.

Ni umuhanda w'igitaka urimo ipoto ry'amashanyarazi, ishamikiyeho insinga nyinshi zigiye mu byerekezo bitandukanye ibi bifasha mu gucanira abaturarwanda, haragaragaramo abantu bari kujya hirya no hino.

Imodoka y'umukara iragaragara igice gito, hirya y'umuhanda hari urupangu ndetse hagati hashizemo ipoto ishamikiyeho insinga nyinshi z'amashanyarazi.

Akayira kari iruhande rw'umuhanda nyabagendwa, hari gutambukamo umukobwa ndetse n'umuhungu uhetse igikapu, umukobwa afite umupira ku rutugu, iruhande rwabo hari urukuta rwubakishije amabuye hejuru y'umuhanda hakaba hari urutoki.

Inzu ziciriritse zigaragara nk'izishaj, nubwo bimeze gutyo ariko hari ifoto rishinzemo hagati rikaba rizoherereza amashanyarazi, kuko gahunda ya leta ari ugucanira buri muturarwanda wese.

Inzugi z'imbaho nziza ndetse n'urukuta rw'umweru, hariho imiryango myinshi itandukanye iri ku murongo, abaturage baricaye bigaragaza ko hari atangirwa serivisi bakaba bategereje kuyihabwa.

Ni ku kigo nderabuzima, hakaba hagaragara mu mbuga yaho, abantu bagiye bari mu matsinda, hari imodoka izwi nk'imbangukiragutabara y'amabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Ni abantu bari gutambuka bagaragara nk'abihaye Imana bari mu mbuga ishashemo amatafari, iruhande hari imodoka y'imbangukiragutabara bigaragara ko ari ku kigo nderabuzima.

Ni umwana wicaye mu kagare k'abanyantege nke, bigaragara ko arwaye cyangwa se akaba afite ubumuga runaka, ikiganza cye gifashe ku cyuma gishinze, hakurya hari abandi bantu batagaragara neza.

Imodoka y'umutuku, umweru ndetse n'umukara, iyi ni ikinyabiziga ndakumirwa kuko ari imbangukiragutabara yifashishwa mu kwihutana abarwayi ibajyana kwa muganga mu rwego rwo kubaramira.

Imbere y'urukiko, hagaragara ibyiciro bine hari abacamanza, aribo bashinzwe gufata imyanzuro hagati y'umuburanyi n'undi, hari ushinjwa, cyangwa se uregwa umwunganizi we mu mategeko, ndetse n'umushinjacyaha.

Ni ikoraniro ry'abantu benshi, bamwe bicaye hasi mu gacaca nk'uko bajyaga babivuga, iki rero ni igikorwa cyabayeho hambere cyo kuburanisha abantu biciye mu nkiko gacaca, aho hagiye imanza nyinshi mu gihe gitoya.

Imbere y’urukiko haba hari imfungwa yaje kuburana, ikaba yicaye hagati mu bunganizi mu mategeko. Imbere yabo hari abacamanza ndetse n’umwanditsi, bose bari kuri za mudasobwa.

Umudamu usa nk'ukuze yicaye ku ntebe y'umukara, afite ikaramu mu ntoki ze ndetse ku kaboko k'ibumoso yambaye isaha, ku meza hari ibitabo, icupa ry'amazi yo kunywa ndetse n'irindi rikorwa mu mitobe.

Urwego rw'ubutabera ni imwe mu nkingi igihugu cy'u Rwanda cyegamiyeho kandi cyashyizemo imbaraga, kuko bituma hagaragara umutekano mu baturage, umucamanza ari kuvugira mu ndangururamajwi, yambaye impuzankano ibaranga.

Urwego rw'ubutabera ni imwe mu nkingi zikomeye mu gihugu cy'u rwanda. Umucamanza wambaye ikanzu ibaranga itukura imbere yaha hamanutseho akantu k'umweru arirabura ndetse arareba imbere ye.

Urwego rw'ubutabera ni ingenzi kuko ari kimwe mu bishyira igihugu ku murongo. Imbere hari abacamanza bambaye imyambaro y'umutuku ndetse n'ingofero z'umuhondo n'umukara, bakaba bari kwakira indahiro z'abashinjacyaha.

Ni abantu bakora mu rwego rw'ubutabera, bose bicaye ahameze nko mu nama, bambaye udupfukamunwa ndetse n'impuzankano zibaranga z'amakanzu maremare y'umukara ndetse n'umweru.

Urwego rw'ubutabera ni rumwe mu nkingi igihugu kiba gishamikiyeho, kuko bituma abantu bagendera ku mategeko. Ni umucamanza wambaye umwambaro wabo w'umutuku ndetse n'umweru.

Abantu benshi ntabwo bajya bamenya gutandukanya imfungwa cyangwa se abagororwa. Ubusanzwe abambara uyu mwambaro uba wenda gusa nk'umutuku ariko werurutse, ubundi ni bo bagororwa kuko baba bararangizanyije n'inkiko. Na ho abambaye iroze, baba bakiri mu bijyanye no kuburana baba bakitwa imfungwa.

Munsi y'igiti hari abaturage benshi bamwe bahagaze abandi bicaye, bari mu gikorwa cyiswe gacaca ubuntu ubutabera bwihuse kandi bwunga, bukaba bwarakoreshejwe mu minsi yatambutse.

Umugabo ugaragara nk'ukuze yambaye utwuma tuzana amatwi mu majwi ndetse n'indangururamajwi iri ku munwa ndetse yambaye ikositimu y'umukara, hakaba hari ibyo ari kumva ndetse akaba agomba no gusubiza kuko ibyo yambaye birabimwemerera.

Imbere y'urukiko hari umugabo wahazanywe, yambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru n'amadarubindi, iruhande rwe hari umwunganizi mu mategeko ufite ikaramu mu ntoki bigaragara ko ari kwisobanura.

Umucamanza ukora mu rwego rw'ubutabera, aba ni ingenzi cyane kuko igihugu kitarimo ubutabera kigaragaramo akajagari, ruswa ndetse n'ibindi bikorwa by'urugomo, ukoze amakosa rero baramugana agaciribwa urubanza akabihanirwa.

Akora mu rwego rw'ubutabera akaba ari umucamanza, aba nibo bafata umwanzuro hagati y'umuburanyi n'undi maze bakarenganura urengana.

Mu rukiko rusa nk'aho ari urwa gisirikare kuko abarimo bambaye impuzankano y'imfungwa za gisirikare, sibo gusa kuko hari no kugaragaramo nyine abo mu ngabo z'igihugu bahagaze.

Hambere aha hahoze hitwa muri gereza, ariko ubu hahinduriwe inyito hitwa mu igororero, hari gusohokamo umuntu usa nkaho arangije ibihano, ku muryango hahagaze abacungagereza babiri.

Umwe mu ngabo z'igihugu, akaba ari ku rwego rwo hejuru mu bayobozi, ari kurahira afashe ibendera mu kiganza cy'ibumoso, icy'iburyo kiramanitse nk'ikimenyetso cy'indahiro.

Ni mu cyumba cy'ububiko bw'inyandiko zitandukanye, mu rwego rwo kugira ngo zitazasaza cyangwa zikaba zabura, hari izanditseho ko ari inyandiko z'inkiko gacaca, harimo abagabo babiri.

Inzu nziza igeretse kenshi, ikaba ifite inkingi iriho ibyabugenewe mu kuzimya inkongi y'umuriro, ni ngombwa ko ibikoresho nk'ibi bishyirwa ahantu hahurira abantu benshi muri rusange.

Ni umugabo wambaye impuzankano y'abapolisi, ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, ari kuyobora ibinyabiziga yambaye agapfukamunwa, inyuma hari amapikipiki atwaye abantu ndetse n'imodoka.

Abanyeshuri bari hanze mu mbuga, bakaba bari gukorerwa ubukangurambaga bujyanye no kuzimya no guhangana n’inkongi y’umuriro. Umwe muri bo afite icupa mu ntoki ndetse n’impombo, ari kuzimya gaze yafashwe n’inkongi.

Ikinyabiziga cy'ikigo cya polisi gishinzwe umutekano, ishami ryita mu guhangana n'inkongi y'umuriro. Kikaba gihagaze hanze, cyitegura kujya gutabara aho rukomeye.

Abapolisi bari ku murongo bigaragara ko bambaye banapakiye n'imbunda mu ntoki, ibikapu ku mugongo bameze nk'abagiye mu butumwa bw'amahoro bakaba bari guhabwa amabwiriza.

Umupolisi ushinzwe umutekano, ishami ryo mu muhanda, azamuye ikiganza kimwe, ikindi kigana mu cyerekezo cy'ibumoso nk'ikimenyetso cyereka ikinyabiziga ko gikwiye kuza kigahagarara.

N'icyapa cyamamaza urwego rwa polise, icyicaro cyarwo gikuru kiri mu karere ka Nyarugenge, kuri cyo hariho ikirangantego cy'igihugu cy'u rwanda ndetse n'ikirango cya polise.

Ni igikoresho cyagenewe kuzimya inkongi y'umuriro, ni byiza ko ahahurira abantu benshi bo mu masoko, ku mavuriro, ku mashuri n'ahandi, ibi bigomba kuba birimo mu rwego rwo gukumira impanuka.

Hagati mu muhanda hahagaze umupolisi ushinzwe umutekano ishami ryo muhanda, imbere ye hari ipikipiki ihagaze uyitwaye yambaye ingofero irinda impanuka y'umuhondo.

Umupolisi ushinzwe umutekano ishami ryo mu muhanda ari mu kazi ke ndetse yambaye impuzankano imuranga, aba ngaba ni ngombwa cyane kuko batuma imigenderanire mu muhanda igenda neza ndetse hakiririndwa n'impanuka zitandukanye.

Iruhande rw'umuhanda nyabagendwa hari ipikipiki itwarwa n'abashinzwe umutekano ishami ryo mu muhanda, aba ngaba bakaba imbere yabo hari umukobwa wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Ni umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda ari iruhande rwawo mu kayira k'abanyamaguru, imbere ye hari ingorofani iriho imifuka ndetse n'undi utwaye igare.

Ishyamba rinini ririmo ibiti byinshi bikiri bito, imbere yaryo hari umunara muremure wifashishwa mu bijyanye n'itumanaho, igice gito cy'inzu kiragaragaza ibara ry'umweru.

Ibicupa binini byifashishwa mu guhangana ndetse no guhashya inkongi y'umuriro, biri mu mabara y'umutuku ndetse n'impombo z'umukara, ni ngombwa ko ahantu hahurira abantu benshi nko mu masoko, mu mavuriro, n'ahandi bigomba kuba bihari.

Ibikoresho bibiri byabugenewe mu guhashya no mu guhangana n'inkongi y'umuriro. Kimwe kirasa umutuku, ikindi kirasa umweru, bifite impombo z'umukara. Ahantu hose hibasiwe, ibi bihita bitabara vuba na bwangu.

Mu muhanda rwagati, haragaragara abantu benshi cyane. Hari imodoka ishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro, biragaragara ko hafi ahaha habaye hibasiwe n'iyo nkongi, bari gukura uruhombo rw'amazi mu modoka kugirango babashe gutabara.

Yitwa Mpayimana Phillippe, akaba ari umwe mu biyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yatambutse. N'ubwo byagenze gutyo ariko hatsinze perezida Paul Kagame.

Ihema rinini, riri mu mabara y'umweru, umutuku ndetse n'ubururu, hateraniye imbaga y'abantu benshi baje gushyigikira umukandida w'ishyaka rya efepe eri inkotanyi, rihagarariwe na perezida Paul Kagame.

Umukandida w'umuryango wa FPR inkotanyi, ari hagati mu barwanashyaka b'iryo shyaka, akaba yafunze igipfunsi nk'ikimenyetso kibaranga, ari kumwenyura ndetse n'abaturage baramwishimiye ndetse bazanamutora.

Nyakubahwa madamu Jeannette Kagame; uyu ni umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Yicaye mu nama ku ntebe y'umukara, yambaye ikanzu nziza y'icyatsi n'utubara tw'umweru ndetse n'amadarubindi arareba imbere ye.

Ni abantu benshi bicaye bari mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore, hari umwe wifashe amaboko yombi, hirya hari ureba muri telefone ngendanwa, bakaba bagaragara ahantu hasa nk'ubururu.

Abantu benshi biganjemo ab'igitsina gore, biragaragara ko babukereye abenshi muri bo bambaye imyambaro iranga umuco gakondo, izwi nk'imikenyero, bakaba bari ahantu hitaruye hari ibiti birebire by'icyatsi kibisi.

Abaturage benshi bari ku murongo bakaba bagiye kwinjira mu cyumba kimeze nkaho ari icy'itora ubona ko bose bazindutse hari udutambaro tugiye turi ku murongo w'icyatsi, umuhondo n'ubururu.

Mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda haragaragaramo abayobozi batandukanye bamwe bicaye imbere bakaba aribo bayoboye ibiganiro buri wese imbere ye hari indangururamajwi n'icupa ry'amazi yo kunywa.

Mu gikorwa cyo kwiyamamaza, uyu ni umukandida perezida witwa Mpayimana Philippe. Afite indangururamajwi, igipapuro mu ntoki, akaba ari gutanga imbwirwaruhame ishishikariza abantu kumutora.

Icyumba kigaragara nk'ikimaze kuberamo amatora, kiragaragaramo abiganjemo abagore, bambaye imyenda y'umukara n'umweru, batangiye gupfundura ibidobo biba byashyizemo amajwi, bakaba bitegura gutangira kuyabara.

Abarwanashyaka b’umuryango wa FPR Inkotanyi mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida wabo bari mu myambaro ndetse n'ibirango byabo by’umutuku, ubururu n'umweru. Harimo abakobwa ndetse n'abasore.

Ni abantu babiri barimo umuzungu ndetse n'umwirabura wambaye ingofero n'amadarubindi bafite impapuro bakaba bagaragara nk'abari gushyira umukono ku masezerano runaka ku meza hari amabendera n'uducupa tw'amazi.

Abantu benshi iyo bagiye mu nshingano zo gukorera igihugu babanza gukora indahiro, ikimenyetso cyayo uba ufashe mu ibendera n'ikiganza cy'ibumoso, icy'iburyo kimanitse, ubundi ukavuga amagambo avuga ko utazatatira.

Ni mu gikorwa cyo kwiyamamaza kw'ishyaka rihara ibidukikije ndetse na demokarasi, umukandida waryo mukuru ari we Frank HABINEZA na madamu, inyuma yabo hari abarwanashyaka b'iryo shyaka.

Ahantu hari abaturage benshi bigaragara ko hari imyubakire ya kera, bose barangamiye umudamu uri hejuru, ufite indangururamajwi uri kubagezaho imbwirwaruhame, urabona ko bateze amatwi ubutumwa ari kubagezaho.

Ingoro y'inteko ishingwa amategeko yo mu Rwanda abantu bicayemo ari benshi, baragaragara igice k'inyuma ku ntebe z'imikara ndetse n'ameza yose agiye ariho za mudasobwa.

Abaturage bazindutse batoye umurongo, bikaba bigaragara ko baje kwitabira amatora y'umukuru w'igihugu, icyumba bagiye kwinjiramo kiriho ibitambaro bigize amabendera y'igihugu cy'u Rwanda.

Mu muhanda nyabagendwa haragaragaramo ibinyabiziga byiganjemo iby'amapikipiki, hari imwe iri imbere muri zo, itwaye umugenzi, izindi ebyiri nta bantu baziriho.

Umuhanda nyabagendwa ukaba uri kugaragara ahambukira abagenzi, mu mirongo iharanga y'umweru, hagezemo ikinyabiziga kinini cy'ubwikorezi, gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru.

Mu muhanda nyabagendwa wagutse, hagati muri wo hagiye harimo imirongo icagaguye y'umuhondo n'indi y'umweru ikomeje iri ku ruhande. Ku ruhande rwabo hari utubuye tuwukikije tw'umweru n'umukara, urimo umutwazi w'ipikipiki.

Abasore babiri bari gutambuka baduteye umugongo, umwe ahetse igikapu cy'umukara, imbere yabo hari umudamu ufite imisatsi miremire igiye inyuma, hirya hari uruzitiro rw'utwuma harimo inkuta z'icyatsi.

Ipikipiki iri mu muhanda wa kaburimbo, urimo hagati imirongo y'umuhondo n'indi y'umweru ku mpande, iruhande rwawo hari ibiti bitoshye ndetse n'urupangu rusa umweru.

Ihuriro ry'umuhanda ndetse n'undi haragaragara ipikipiki ihetse umugenzi, igeze aho abagenzi bambukira n'ubwo ntawuri kwambuka ariko igabanyije umuvuduko mu rwego rwo kugira ngo ibe yakwirinda impanuka.

Haragaragara urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'imodoka zihagaze ziganjemo izitwara abantu muburyo bwa rusange z'umweru, hari n'akandi gapikipiki k'amapine atatu kazwiho kwikorera imizigo.

Iruhande rw'umuhanda mu kayira k'abanyamaguru, hahagaze amapikipiki menshi ategereje gutwara abagenzi. Imwe ivuyeho umuntu ari gukora mu mufuka w'inyuma bigaragara ko agiye kwishyura urugendo amaze gukora.

Umuhanda nyabagendwa uri kugaragaramo urujya n’uruza rw’ibinyabiziga, byiganjemo amapikipiki atwaye abagenzi, usibye imwe iri yonyine. Hirya hari imodoka nini y’ubwikorezi y’umukara n’umweru.

Ibinyabiziga bibiri birimo birabisikana, kimwe gitoya gifite ibara rijya gusa nk'ivu, ikindi kinini cy'ubwikorezi, kikaba gisa umutuku hirya hari ibiti birebire ndetse n'ibigufi.

Ni ipikipiki y'amapine atatu, ikaba iri mu muhanda. Iri mu ibara ry'ubururu, hakurya hari umusore uri gutambuka, wambaye agapira k'umuhondo. Hirya ye hari uruzitiro rw'icyatsi.

Ipikipiki ihagaze mu muhanda nta muntu uyiriho ikaba iri mu mabara y'umukara ndetse n'umutuku, hirya hari igare ryegamye ku rukuta rw'amatafari n'udutebe tubiri, ak'umweru n'ak'ubururu.

Umuntu wambaye imyenda y'umukara, ipantaro yayizinze, ari imbere y'ikinyabiziga kinini cy'ubwikorezi gitwikirije ihema ry'ubururu kiri kugenda mu muhanda, imbere yacyo hari ipikipiki.

Umuhanda mwiza ugaragaramo isuku, uragendamo ikinyabiziga gikunze kwigisha abantu gutwara, hirya gato kirenda kugera ahagenewe kwambukira abagenzi, aha iyo uhageze ni ngombwa guhagarara.

Igare ririho umufuka rihagaze iruhande rw'umuhanda, hari ipikipiki itwaye umugenzi iri rwagati muriho ndetse umufuka urasa umuhondo n'umweru.

Umuhanda ugaragaramo urujya n'uruza rw'imodoka ziganjemo inini z'ubwikorezi zigiye kubisikana, zose ku gice cy'imbere cyazo zikaba zisa umweru, iruhande rwaho hari ibiti.

Umuhanda usa n'uwangiritse uragaragaramo ibyiganjemo amapikipiki, iyi ngiyi ikoresha amashanyarazi, mu rwego rwo kwirinda imyuka ihumanya ikirere, hirya hari n'utundi tw'amapine atatu.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikinogo bigaragara ko watangiye kwangirika, haracamo ikinyabiziga kinini cy'ubwikorezi kiri mu mabara atukura, hino mu kayira k'abagenzi hari abantu babiri bari kugenda baganira.

Umuhanda ugaragaramo ikinyabiziga kinini cy'ubwikorezi kikaba gisa umutuku, inyuma yacyo hari indi modoka itwara abantu muri rusange, iri mu ibara ry'umuhondo.

Umuhanda ugaragaramo ipikipiki y'amapine atatu ikaba isize amabara y'umweru, irabisikana n'ikinyabiziga kinini cyikoreye kikaba gipakiye ibiryamirwa bitwikirije shitingi y'ubururu.

Ikinyabiziga kinini gikora ibijyanye n'ubwikorezi kiri mu ibara ry'icyatsi, kikaba kiri gutambuka mu muhanda ukikijwe n'akayira k'abanyamaguru kari gutambukamo umuntu, hirya gato hari ibiti.

Ikinyabiziga kinini cy'ubwikorezi, kikaba gikora ibyo gutwara ibijyanye n'amavuta. Hari imodoka iri inyuma yacyo iri kuza igisatira. Iruhande hari akayira k'abanyamaguru n'ubwo nta muntu uri kugaragaramo.

Imodoka y’ubwikorezi ikaba isa umweru, iruhande rwayo hari akayira k’abanyamaguru kashashemo amabuye yabugenewe. Hirya hari guturuka ipikipiki n’ibindi binyabiziga biri inyuma yayo.

Umuhanda nyabagendwa uragaragara nkaho umaze gukura. Hari gucamo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, yaba ibito ndetse n'iby'ubwikorezi. Si ibyo gusa kuko mu kayira k'abanyamaguru na ho hari gutambuka abantu.

Mu muhanda nyabagendwa hari umugabo uri hagati muri bo wambaye ishati y'umweru iruhande rwe haraca imodoka nini yikoreye ikintu inyuma, urundi rurimo ipikipiki itagaragara neza.

Ipikipiki y'amapine atatu izwiho gutwara imizigo iringaniye, iri rwagati mu muhanda, aho igiye gukata. Imbere yayo haraturuka ikamyo nini iri mu mabara y'umutuku ndetse irabisikana n'indi modoka.

Umuhanda nyabagendwa uragaragaramo ikinyabiziga kinini kizwi nka fuso, kikaba gikora ibijyanye n'ubwikorezi. Imbere hacyo ni umweru, inyuma hakabaho ihema riri mu mabara y'icyatsi n'ubururu.

Mu muhanda rwagati haragaragaramo ukubisikana kw'ibinyabiziga binini, kimwe kikoreye ibiryamirwa kirasa umuhondo gitwikirije ihema ry'ubururu, hari ikindi cy'umutuku.

Umugabo wambaye boti z'umukara, ipantaro ya kaki, ndetse n'akajire, n'ishati y'ubururu, afite ingorofani, akaba ari kugenda akora isuku mu busitani, ariho igishashi ari gushyiramo imyanda.

Ikinyabiziga kinini cy'ubwikorezi, kiri mu muhanda, imbere yacyo hari guturuka imodoka zibisikana n'izindi, ndetse n'amapikipiki, hagaragara umunyonzi utwaye igare uri hagati.

Ibinyabiziga bitwara abagenzi, birahagaze birabategereje, hari umugabo utagaragara neza uri gutambuka mu kayira kahariwe abanyamaguru, hirya gato hari inyubako ikorerwamo ibijyanye n'ubucuruzi.

Mu muhanda haragaragaramo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ndetse n'abantu bari gutambuka, hari kimwe kiri mu muhanda inyuma cyasohoye imyotsi kikaba gitwaye imizigo, hari kandi n'abantu bari gutambuka.

Icyanya gihagararamo imodoka zitwara abagenzi kiragaragaramo ibinyabiziga byinshi bizwiho gutwara abantu bake cg se benshi ziri mu mabara atandukanye hari iz'icyatsi n'umweru.

Imodoka yikorera imizigo ifite ibara ry'umweru, naho inyuma hariho icyuma cy'umutuku, iruhande rwayo hari inyubako zikorerwamo ubucuruzi butandukanye, hakaba hari kugaragara urujya n'uruza rw'abantu.

Icyanya cyahariwemo guhuriramo imodoka nyinshi zitwara abantu mu buryo bwa rusange, zirahagaze zitegereje ko abagenzi bajyamo ubundi zikaberekeza mu bice bitandukanye by'igihugu baba bagiyemo.

Icyanya cyahariwe kwicaramo abantu iyo bari kuruhuka. Aha nta binyabiziga byemerewe kuhanyura, bityo, uri kuharuhukira nta byotsi bimugeraho, abahumeka umwuka mwiza.

Ni icyanya cyahariwe kugendamo abanyamaguru, kiragaragaramo urujya n'uruza rw'abantu, hagati muri cyo hagiye harimo utuzu duto dukorerwamo ubucuruzi, aha nta kinyabiziga cyemerewe gucamo.

Habera imikino ndetse n'imyidagaduro. Aha ni aho abantu bicara, hakaba harimo inkingi zisize amabara y'ibendera ry'igihugu, y'ibyuma. Hirya gato hicayemo abantu bakeya.

Ikibuga kinini kisanzuye kikaba giteyemo ubwatsi, nta mazamu akigaragaramo yewe nta n'abakinnyi barimo, hirya hakikijwe n'ibiti byinshi cyane.

Ni icyanya cyiza giteye ubwuzu kirimo ubusitani, ibiti ndetse n'indabyo, hakurya yacyo hari inyubako zijyanye n'icyerekezo tugezemo, hakaba hari n'umuhanda wagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Ni ahantu heza haberara imikino ndetse n'imyidagaduro, hakaba harimo ubusitani bunini, ibiti ndetse n'amatara amurikira umuhanda uri iruhande rwawo.

Ahantu hubatse bene uku nguku haba habera imikino ndetse n'imyidagaduro hariho udutebe tw'icyatsi hicayemo abasore umwe yambaye agapira gatukura akaba yakandagiye hejuru.

Abana bari gukina umupira w'amaguru bakaba ari bane, hirya hari uwambaye agapira k'icyatsi ndetse n'undi w'agapira gatukura, hari amazu yubakishijwe amatafari ahiye bigaragara ko ahantu bari mu miturire.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, wubuso bw'umweru ndetse n'ikimenyetso cy'umukara, hagati harimo umuntu umeze nk'uri gukora umuhanda. Iki cyekana ko mu muhanda hari kuberamo imirimo y'ubwubatsi, ukwiye kuhagenda witonze.

Rwagati mu muhanda, hari ubusitani bushinzemo ibyapa by'icyatsi, bigaragaza ko ari mu karere ka Gicumbi, aho hariho amagambo agirati murakaza neza mu Rwanda, hari umudamu ufite igikapu bigaragara ko yiteguye kwinjira cyangwa gusohoka mu gihugu.

Icyapa kiri iruhande rw'umuhanda cyamaze kurengerwa n'indabyo kikaba kiri mu ishusho ya mpande eshatu ndetse umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikimenyetso kirimo cyandikishijwe ibara ry'umukara.

Icyapa cyo mu muhanda kiranga amerekezo cyangwa se agace ugezemo, kiri mu ishusho ya mande enye ariko zitangana, kigizwe n'umusenguruko w'umukara ndetse n'ubuso bw'umweru.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho y'uruziga, umuzenguruko wacyo ni umutuku, ubuso bw'umweru, ndetse ibimenyetso by'umukara. Harimo utwambi tubiri tunyuranye, tugaragaza ko hatemewe kubisikanira.

Ibimenyetso bimurika byo mu muhanda bikaba biha uburenganzira ibinyabiziga byo gutambuka, ubundi bikaba biha uburenganzira abagenzi n’abandi bakoresha umuhanda. Ni umutuku, umuhondo, n’icyatsi.

Icyapa kiri mu ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ndetse n'ikimenyetso cy'umukara, harimo inyuguti ya pa mo hagati, nk'ikimenyetso kibuza ibinyabiziga guhagarara aho hantu.

Icyapa cyo mu muhanda, kiri muri ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko wacyo ni umutuku, ubuso bw'umweru, kikaba gisa nk'aho gicuritse, hirya gato hari ibinyabiziga bitari kugaragara.

Icyapa cyamamaza kiri mu ishusho y'uruziga, ubuso bwacyo ni umweru, umuzenguruko ni umutuku, ikimenyetso ni umukara, harimo igare mo hagati kikaba kigaragaza ko abantu hatemewe kunyurwa n'igare.

Icyapa cyo mu muhanda gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'ubururu ndetse n'ibimenyetso by'umweru iki kikaba kiba kigaragaza ko imodoka zitemerewe gucaho ziteganye.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho ya mpande enye ariko zidateganye, icyo hasi cyanditsemo umubare cumi na gatanu, icyo hejuru gifite umuzenguruko w'umukara n'ubuso bw'umuhondo.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho ya mpandeshatu, umuzenguruko wacyo ni umutuku, ubuso bw'umweru, ibirango by'umukara, harimo imirongo igaragaza ko aho hantu hambukira abanyamaguru.

Icyapa mu muhanda kiri mu ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ibimenyetso by'umukara kigaragaza ko imbere hatemerewe kuzengurukwa.

Icyapa cyo mu muhanda kigizwe n'ishusho y'uruziga, umuzenguruko wacyo ni umutuku, ubuso bw'ubururu bugiye buciyemo imirongo, inyuma yacyo haragaragara ibara ry'umweru.

Icyapa kiri iruhande rw'umuhandaba hakaba harameze ibyatsi bitangiye kugikingiriza, hirya yacyo hari amashyamba y'ibiti by'icyatsi kibisi, uwagera hano hantu yakumva umuyaga ndetse n'amafu.

Icyapa cy'umuhanda kikaba gifite akabara gato ko ku ruhande rw'ibumoso k'umurongo umanutse w'umweru, hagati hari ubuso bw'umuhondo ndetse n'ikimenyetso cy'umukara.

Icyapa kiri rwagati mu ishyamba, kikaba kiri mu ishusho ya mpande enye, kiri mu muzenguruko w'umuhondo, ubuso bw'ubururu ndetse ikimenyetso umweru n'umukara, biragaragara ko ari ahambukirwa.

Ibyapa bibiri bifashe ku cyuma kimwe, byose biri mu ishusho ya mpandeshatu bigiye bigizwe n'umuzenguruko utukura, kimwe gifite ubuso bw'umweru ndetse n'ikimenyetso cy'umukara.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho y'uruziga, umuzenguruko wacyo ukaba usa umweru, ubuso ni ubururu, hagati harimo ibimenyetso by'utwambi tubiri kamwe gashamikiye ku kandi.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu muzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara, hakaba harimo kugaragara ko iyo ukata iburyo bitemewe kuri iki cyapa.

Ni umuryango ukorerwamo ubucuruzi bujyanye n'ibyo kunywa, mu tubati bipanzemo ku murongo, hanze yawo hateye intebe abantu bashobora kwicaramo baganira mu gihe baje kuhagurira.

Inyubako ndende y'amagorofa arenga abiri, ikaba ifite inkuta z'umuhondo, hari ibimeze nk'amakaro bigiye biyometseho, imiryango yo hasi irafunguye ikorerwamo ubucuruzi, imbere yayo hari ikinyabiziga cy'umukara.

Mu muhanda nyabagendwa haragaragaramo urujya n'uruza rw'abantu, umusore uri inyuma yambaye imyambaro y'umukara, imbere ye hari undi utambuka ariko ufite inkweto mu ntoki, hakurya hari amapikipiki menshi ahagaze.

Mu masaha ya nijoro, umusore ari gutambuka yambaye umupira w'umweru, ndetse n'ikabutura y'umukara, imbere ye hari imodoka yacanye amatara maremare, nayo iri gutambuka ibisikana n'indi nini, itwara abagenzi muri rusange.

Mu muhanda nyabagendwa hari akapa kagaragara igice gito, rwagati mu muhanda ku murongo hari ibiti by'imikindo, bizwiho kuba imitako myiza. Hari ibinyabiziga birimo bitambuka.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezwehokandi igeretse, isakajwe n'amategura yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo haragaragara ahantu hagenewe guhagarara ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye.

Imiturire igezweho uyibwirwa n'inyubako ziba ari nziza kandi zubatswe mu buryo bwa kijyambere. Iyi ngiyi igeretse akarenga kane, ikaba ifite inkuta z'umweru, amadirishya ajya gusanga nk'icyatsi.

NI ihuriro ry'imihanda ibiri, aho umwe winjira mu wundi. Hari imodoka y'umukara irimo gutambuka, iruhande rwawo hari agakuta kubabakishije amatafari ya ruriba, hejuru hariho utwuma tw'umukara.

Ni icyanya kinini kisanzuye kikaba cyaragenewe imiturire, hamwe hari ibisambu n'amashyamba nta nzu zirimo, ariko ahitaruye haragaragara inyubako z'imiturirwa zigiye zigeretse.

Abana batoya biga mu mashuri yo hasi, barimo barakina aho hari ibyabashyiriweho ku rwego rwo kugira ngo bidagadure, hirya yaho hari ibiti byiza bitoshye bizana umuyaga.

Umukingo muremure utubakiye, hejuru yawo hariho ibiti ndetse hashinzemo n'umunara ujyana insinga z'amashanyarazi hirya no hino, inyuma yayo hari inyubako igeretse gatatu ikaba ari nziza.

Mu cyanya cy'ubukerarugendo giherereye i Nyandungu hari urukuta rw'amabuye y'ubatse ku buryo butangaje aho agiye yinjiranamo nta sima ikoreshejwe, hirya gato hari ushinzwe kurinda ahongaho.

Ubwatsi busa nkaho butangiye kuma, hakaba hateyemo ibiti byinshi cyane bizwiho gutanga akayaga cyane cyane mu bihe by'izuba, imbere hari urukuta rwubakishije amatafari ya ruriba, rurimo inyubako nziza isize amarangi y'umweru.

Mu rusisiro hagaragara urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ndetse n'abantu, ikiri hafi ni icy'umukara inyuma hari icy'umweru, ku ruhande hari inyubako igeretse kabiri ikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Amapikipiki abiri, imwe itwaye umugenzi iri mu muhanda iri kugenda, indi ihagaze ku ruhande nayo itegereje uwo iza gutwara, hirya yaho hari abadamu babiri bahagararanye n'undi uri guhitaho.

Umukingo wamezeho ubwatsi. Hejuru yawo haragaragara amashami y'igiti kizwi nk'umukindo, ndetse hakaba n'utwuma tuhazengurutse. Hari urugo rwubakishijwe amatafari ya ruriba.

Ibyatsi bitangiye kuma, imbere yabyo hari urupangu rwubakishije amatafari ahiye, mu imbere harimo inyubako igeretse rimwe ifite amarange meza y'umweru, igisenge cy'umutuku.

Ni umuhanda munini wagutse ukaba uri kugaragaramo igicucucucu cy'abantu babiri, hirya hari imodoka ebyiri zishoreranye iruhande rwazo hari umuntu wambaye iby'umukara ugeze ku kapa k'umweru n'umutuku.

Ni imihanda inyuranamo hasi no hejuru, hakaba hirya hari guturuka amapikipiki ndetse n'imodoka, hino hari umugabo uri gutambuka imbere ye hari umufuka.

Umuhanda munini wagutse nyabagendwa ariko amapikipiki ageze aho abantu bambukira arahagarara, ni imirongo y'umweru igaragaza ko aha iyo uhageze uba ugomba kugabanya umuvuduko mu rwego rwo kwirinda kugonga abantu.

Mu ihuriro ritoya ry'umuhanda, hari kugaragaramo ibinyabiziga bitandukanye, harimo ipikipiki y'amapine atatu, iruhande hari umuntu ushinzwe gukora mu muhanda, wambaye umwambaro wabugenewe.

ni mu ihuriro ry'imihanda hagaragaramo amapikipiki abiri atwaye abagenzi, umwe mu bayiriho afite ikarito, naho undi ahetse igikapu, yambaye imyenda y'umukara.

Rwagati mu muhanda wisanzuye hari ikinyabiziga cy'umweru kitari kugaragara neza, hasi mu muhanda wa kaburimbo handitsemo amagambo y'umweru mu cyongereza ugenekereje mu kinyarwanda barakubwira ko ugomba gukomeza.

Ihuriro ryagutse ry'umuhanda munini, rikaba ryakira ibinyabiziga byinshi, bigaragara ko ari mu masaha yo gutaha kuko harimo urujya n'uruza rw'amapikipiki, imodoka ndetse n'abagenzi b'amaguru.

Ni ngombwa ko iyo ugeze aho abanyamaguru bambukira utwaye ikinyabiziga cyane cyane iyo bamaze kwinjira mu mirongo y'umweru uba ugomba guhagarara ntubasagarire, ipikipiki ikaba yamaze kubirengaho yakoze amakosa, iramutse ifashwe yabihanirwa.

Mu muhanda wisanzuye w'ibisate bibiri, hagati hateyemo indabyo ndetse n'icyuma cyagenewe gufata amashusho y'abakora amakosa mu muhanda, hirya hari ubusitani butoshye buri gucamo umuntu.

U Rwanda rwashyize imbaraga mu kunoza imigenderanire ndetse n'imihahiranire, kuko ari bimwe mu biteza igihugu imbere. Ibi uzabibwirwa n'imihanda yubatswe myiza yagutse, iba icamo abantu ndetse n'ibinyabiziga byinshi.

Ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'ibiti byiza cyane bitoshye, hateyemo icyuma cyifashishwa na polisi ishami ryo mu muhanda kuko kiriho ibifata amashusho ku bantu batubahirije amabwiriza n'amategeko agenga umuhanda.

Ihuriro ry'umuhanda munini wagutse haragaragara ahari inkomane akaba ari ho imodoka zizengurukira, hagati harimo ubusitani buteyemo ibiti by'imitako bizwi nk'imikindo.

Umuhanda munini wagutse ugaragaramo ibisate birenze bibiri, uri gucamo amapikipiki ari ku murongo, hagati hagiye harimo ubusitani n'ibiti by'imikindo bizwiho kuba imitako.

Ihuriro ry'umuhanda rikaba rifite ibice binini kandi byagutse bishobora kwakira ibinyabiziga byinshi hagati muri byo hagiye hateyemo ibiti by'imikindo ndetse ubwatsi n'amatara awumurikira.

Umuhanda munini wagutse ukaba uri kugaragaramo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga byiganjemo amamodoka ndetse n'amapikipiki, ibimenyetso biriho amatara bigiye biri ku mpande.

Umuhanda wubatse ku buryo bugezweho aho ibinyabiziga bica munsi ibindi bikanyura hejuru mu buryo bwiza cyane, ni ku kagoroba amatara ari kwaka ndetse n'ibinyabiziga biracamo.

Ni umuhanda munini wagutse, ukaba ugizwe n'ibisate bibiri, bishobora gucamo ibinyabiziga byinshi icyarimwe, haragaragaramo amapikipiki abiri, imwe ni igice gitoya.